Akabari ni ahantu abantu basohokera ndetse bakishima, bakunze kujyayo akenshi ari benshi bari kumwe n'umuryango wose. Nawe uzajye uza uhasohokere murakoze.

Ibiro ni nahantu umuntu ategurira akazi bikamufasha kugakora neza biri ku murongo ndetse bigatuma abakiliya be banyurwa na serivise abaha.

Iyi ni firigo ifunguye, mo imbere harimo ibikombe n'ibikoresho byayo, ku ruhande hari ibijerekani bitatu byanditseho jibu, ndetse hariho n'urugi rw'ubururu.

Isoko ry'amata utujerekani rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, ukeneye turayaguha, araryoshye ameze neza, igihe cyose wayashaka wadutuma murakoze.

Urwego rw'ikoranabuhanga turabona "mobile money," urwego rwo kohereza amafaranga, gucuruza amayinite, aka kazu gacururizwamo amafaranga ndetse n'amayinite.

Ni isoko ry'ikoranabuhanga ricuruza imbuto tangawizi, inyanya, imboga, amashu, tungurusumu, kokombure karibu karibu muze tubahe.

Urubuga rw'ikoranabuhanga, rufasha gucuruza ibikoresho byo mu rugo, ibyo kurya ndetse ubasha kubitumaho, bikaza bikakugereraho ku gihe utarushye.

SANJUMARKET.RW urubuga rw'ikoranabuhanga rucuruza imyenda, inkweto ndetse n'ibindi byose wakenera utabashije kugerayo muradutuma tukabazanira.